Umuntu uri gufata amafunguro ya mu gitondo, agizwe n'umutsima ndetse n'amata.

Inoti y'amafaranga magana atanu y'amatanzaniya, inoti y'amafaranga igihumbi y'amatanzaniya, inoti y'ibihumbi bibiri by'amafaranga y'amatanzaniya.

Inoti y'amafaranga magana atanu, y'amafaranga ya ma Tanzaniya.

Ni isoko ryiza hasi risashe amakaro hejuru hari parafo, mu rwego rwo kwirinda inyanyagira ry'ibicuruzwa bubatse akayetajeri ko mu biti ku buryo usanga buri gicuruzwa gipanze mu mwanya wacyo.

Aho wakura ibikoresho byifashishwa mu nzu nka matera, utubati, ameza, intebe, amasaso ndetse n'ibindi.

Icyicaro cy'urwunge rw'amahoteli ruzwi ku izina rya Marriott, icyicaro cyarwo mu gihugu cy'u Rwanda.

Ikigo saniramu gifasha abakigana mu bwishingizi ndetse no gushinganisha ibyabo.

Abagore babiri bari gucuruza mu isoko inyanya, ibitunguru, imboga, ibitoki, ndetse n'ibindi.

Winjije Faburice Hakuzimana ufite nimero zeru karindwi umunani mirongo itandatu na gatanu, makumya na gatandatu, mirongo inani n'umunani, gatatu amafaranga igihumbi ikiguzi cy'amafaranga makumyabiri, kwemeza injiza umubare w'ibanga.

Ni kamyo nini ya randekuruza ya rukururana irimo gukurura izindi, iri mu muhanda igenda, umuhanda nyabagendwa arikohande muhanda irenze ahantu ku kiraro inyuze munsi y'ikiraro kigeretseho undi muhanda hejuru, ni umuhanda ufite icyapa kiri ku muhanda kitagaragaza ibyo kivuga n'ipoto y'amashanyarazi ndetse n'agashyamba kanini cyane.

Inzu ikodeshwa iherereye mu mujyi wa Kigali ikaba ikodeshwa amafaranga igihumbi na magana atanu cy'amafaranga y'Amanyamerika.

Inzu igurishwa iherereye i Kanombe mu mujyi wa Kigali, ihagaze miliyoni mirongo icyenda n'eshanu z'amafaranga y'u Rwanda.

Inzu ikodeshwa iherereye Kabeza ikaba ikodeshwa amafaranga ibihumbi magana tandatu by'amafaranga y'u Rwanda

Inzu ikodeshwa mu mujyi wa Kigali iherereye i Kacyiru, ikaba ikodeshwa amafaranga igihumbi na magana atanu cy'amafaranga y'amanyamerika

Inzu iherereye Kacyiru mu mujyi wa Kigali ikaba ikodeshwa amafaranga igihumbi na magana atanu by'amafaranga y'amanyamerika.

Ni igitsina gore gihagaze arimo arareba yambaye ikote n'ishaneti mu ntoki n'imisatsi ye ifungiye inyuma.

Inzu ikodeshwa iherereye Kabeza ikaba ikodeshwa amafaranga ibihumbi magana tandatu by'amafaranga y'u Rwanda

Inzu y'ibyumba bibiri, ubwiherero, uruganiriro, igikoni, aho wasiga imodoka, ku mafaranga ibihumbi magana atatu na mirongo irindwi ku kwezi.

Inzu ikodeshwa iherereye muri Gacuriro mu mujyi wa Kigali ifite ibyumba bitanu ndetse n'aho wakorera, ikaba ikodeshwa amafaranga ibihumbi bitatu by'amafaranga y'amanyamerika, ku kwezi.

Isoko rya kijyambere aho wasanga byinshi mu byo umuntu yakwifashisha mu buzima bwa buri munsi.